Umugabo wishimye cyane ufite isuku, afite umusatsi muke, afite ubwanwa buringaniye, afite amenyo asa neza cyane akeye. By'ukuri yambaye umwenda uri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Ishusho nziza igaragara neza cyane, iriho abantu babiri ari bo umubyeyi w'umupapa ndetse n'umwana w'umukobwa, banezerewe bafatanye bafata ifoto y'urwibutso.

Inyubako ngari irimo ibyumba byinshi bitandukanye, hagiye harimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cy'ubuvuzi, kivurirwamo abarwayi kirimo ibikoresho bitandukanye harimo: igitanda abarwayi baryamaho, utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ndetse n'aho bikorerwa isuku.

Iyi ni nyubako nini, muganga ayihagaze imbere, ikaba ikorerwamo isuzuma ry'indwara zitandukanye harimo Malariya ndetse n'izindi ndwara zigiye zitandukanye, mu kigo gishinzwe ubuvuzi mu Rwanda.

Ikirahuri kiringaniye gikoreshwa mu kunywa amazi, kiri gusukwamo ayo mazi yo kunywa meza asukuye aturutse mu icupa rinini rifite umubyimba munini.

Umuganga yambaye imyenda yabugenewe yifashishwa mu buvuzi, ari kumwe n'umurwayi, ari kureba ikibazo yaba afite mu ivi, kugira ngo abashe kuba yabona icyo amufasha.

Agacupa gato gapfundikiye karimo umuti wo mu bwoko bw'amavuta wifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, mu kuvura indwara zo ku ruhu.

Amabwizwa akurikizwa mu kwandika imiti y'ubuvuzi bwa gakondo, amoko yose mu kigo Mpuzamahanga gishinzwe ubuzima bwa muntu mu gice cy'Afurika.

Imiti itandukanye yifashishwa mu gukiza indwara, aho isigwa mu nkokora, mu mavi, mu mugongo, ndetse no ku bitugu no ku ijosi.